Inama yakozwe n'abayobozi ba RIB, yari igamije gukangurira abaturage ndetse n'abayobozi kwimakaza umutekano, umutekano ni kimwe mu bintu bigomba gushingirwaho mu iterambere ry'Igihugu ndetse n'umuturage muri rusange.

Umuyobozi ahanga amaso abo ari kubwira abagezaho ijambo nyamukuru yabateguriye . Abaturage na bo baraceceka batega amatwi bumva inama barangije barajya inama.

Inama n'urubyiruko abayobozi bo mu nzego zitandukanye barigisha abakiri bato kumenya amateka yabo, ibi ni bimwe mu bifasha abana bakiri batoya gusigasira ndetse no kurinda amateka y'igihugu cyabo.

Inama yahuje abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imari mu Rwanda asobanurira abaturage ndetse n'abayobozi muri rusange ibyiza byo kuzigama ndetse no kwaka inguzanyo, bagatangira gukora imirimo itandukanye.

Inama y'abayobozi bakuru muri Leta ndetse no mu bigo by'imari harimo n'ikigo cya gisirikare yarateranye, umuyobozi abagezaho ijambo nyamukuru ndetse abasaba gukora akazi kabo neza.

Umuyobozi w'ishyaka rya FPR, aratanga inama ku banyamuryango, abanyamuryango nabo bamuteze yombi, bari kungurana ibitekerezo ndetse bajya inama no ku iterambere ry'igihugu n'abaturage,

Umuyobozi wa Ejo heza, ari kumwe n'umutegarugori arimo arabakangurira ndetse anabigisha uko umugore ashobora kwitanga akazagirarira ejo heza cyangwa se akizigama kugira ejo he heza hazabe heza, nk'uko bivugwa nyine ngo ni Ejo heza.

Umuyobozi w'inama asaba abaturage guceceka ngo agire icyo abagezaho, nyuma y'ijambo abaturage barashimira, ndetse bavuga ko inama yari ingirakamaro, barasezerana barataha.

Inteko rusange y'Umuryango wa FPR Inkotanyi yabereye mu ntara y'Iburasirazuba, uyu muryango wigaga ku buryo ugiye kujya ukora mu kwamamaza umukandida wabo.

Inama yateranye iyobowe n'umubyeyi aganiriza abaturage ndetse n'abanyeshuri Imbuto foundation icyo ari cyo, abakangurira kujijuka ndetse bakamenya n'ubwenge.

Abayobozi ndetse n'abanyamuryango b'ishyaka rya FPR Inkotanyi, bakoze inama, biga ku buryo ishyaka ryabo ryazitorera umukandida wabo usanzwe kandi bakamushyigikira.

Polisi y'u Rwanda yakoranye inama n'abaturage ibashishikariza gutanga amakuru ku gihe kandi ko mu gihe umwe muri bo yagize ikibazo aba agomba kukimenyesha hakiri kare kuko iyo kitamenyekanye ariho hava impfu zidateganyijwe.

Abagore n'abagabo ni bamwe mu bitabiriye inama, umuyobozi w'inama arabaganirira. Abitabiriye inama na bo batega amatwi bamuhanga amaso bumva ibyo avuga ndetse banamureba.

Inama yateranyije abayobozi batandukanye bagizwe n'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, biga ku buryo umuntu yakirinda virusi ya emupogisi iri kuzahaza abaturage.

Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyagatare ndetse na polisi y'u Rwanda, baraganira ku ngingo zitandukanye; harimo serivisi inogeye ihabwa umuturage kandi bimakaza umuco w'umuturage ku isonga.

Siporo ni ubuzima. Siporo rusange ni kimwe mu bifasha abaturage ndetse n'abayobozi kunga ubumwe, bakabona ko bafatanya mu nzira zitandukanye z'iterambere.

Mu cyumba cy'inama, harimo abagabo babiri, umwe aricaye, imbere ye hari telefone ebyiri, mudasobwa, undi arahagaze afite mikoro, yambaye isaha, iruhande rwabo hari nimero za telefone, zitandukanye.

Inama zikorerwa mu Midugudu ndetse no mu Masibo ziba zigomba kwibanda mu gukangurira abaturage ibi bikurikira: gutanga mituweli ku gihe, gukora imiganda, gusukura ndetse no kurwanya amasuri aho baba.

Polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo, n'abari, n'abategarugori, n'abagabo, n'urubyiruko, ni bamwe mu bitabiriye inama, inama irangiye barishimye barabyina karahava.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine ndetse na mirongo ine n'itanu ayoboye inama, abayoborwa bateze amatwi kuko ibiri kuvugirwa muri iyo nama ari ingirakamaro, ari ibizateza igihugu imbere ndetse n'abaturage muri rusange.

Inama n'abaturage cyangwa se abandi bita inteko, umuyobozi arimo arababwira ijambo ry'umunsi, abaturage bateze amatwi, abandi barimo barishimira, iryo jambo, umuyobozi wabo arimo arabagezaho.

Inama yahuje polisi y'u Rwanda, yitabiriwe n'abapolisi bagiye batandukanye, bafite amapeti agiye atandukanye, hakaba hari na kameramani cyangwa se ufotora, ushinzwe gufata amafoto nk'urwibutso rugaragaza ko habaye inama.

Kuri iki gihe ibikoresho byakoreshwaga kera bisigaye mu nzu ndangamateka gusa. Imiduri ndetse n'ibindi bikoresho by'ubucuranzi byifashishwaga n'abantu ba kera, ubu ntabwo bigipfa kuboneka ahariho hose.

Abari n'abategarugori b'Abanyarwandakazi ni bamwe mu bashyigikiye ndetse bakanabumbatira umuco gakondo n'imbyino za gakondo. Aba bari babikora babikunze kandi banabyiyumvamo.

Ikibindi mu muco nyarwanda wo hambere cyakoreshwaga mu gutara amarwa cyangwa se ikigage, iki gikoresho cyabaga gikoze mu ibumba ndetse kikanaterekwa ahantu heza kugira ngo kitameneka.

Imbyino za kinyarwanda, ni zimwe ziranga umuco w'abanyarwanda. Abanyarwanda ba kera bambaraga amayomba ndetse n'imidari mu ijosi ikozwe mu masaro bakabyina kakahava.

Imbyino gakondo ni zimwe mu biranga umuco nyarwanda kandi zigashimisha ababireba n'ababikora, mu Rwanda hari amatorero menshi akibarizwamo izi mbyino aho usanga abagore, abagabo, abasaza ndetse n'ingeri zose bakora ubu bubyinnyi.

Mu muco nyarwanda habamo imbyino gakondo, abagore, abagabo, abakobwa, abahungu ndetse n'abana bari mu bamwe mu bagaragaza uyu muco, nko kubyina, gusimbuka, kwivuga ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aba ni abari bambariye umukobwa mugenzi wabo mu birori by'ubukwe, aho bakenyeye imyitero imyenda bambaye bayita imyitero, ndetse bashyize n'urugori cyangwa se utudari mu mutwe kugira ngo bagaragare neza.

Imbyino gakondo ni kimwe mu bisusurutsa abantu batandukanye, ibitaramo abayobozi baraterana ndetse n'abaturage muri rusange ubundi abari n'abategarugori ndetse n'abasore n'abagabo bakababyinira kakahava.

Imbyino gakondo ndetse n'umuco nyarwanda ni kimwe mu bisusurutsa abantu. Ababikora bashimisha ababareba kandi nabo ubwabo bikabagirira umumaro kuko bashobora gukuramo amafaranga atunga abana babo ndetse na bo ubwabo.

Umuco nyarwanda cyangwa se umuco gakondo, ugaragaza Abanyarwanda ba kera uko babagaho, uko biyogosheshaga, ndetse n'imyambarire babaga bambaye aho wasangaga abari ndetse n'abategarugori barasokoje icyo bita uruhanika, bikenyeje cyangwa se biteze utuntu Tw'udutambaro.

Bimwe mu biranga umuco Nyarwanda harimo gushushanya, gukora imigongo, ndetse n'ibindi bitandukanye. Imigongo yifashishwa mu gutaka ndetse n'ibishushanyo bigiye bitandukanye biri mu muco Nyarwanda.

Mu muco nyarwanda imigongo yifashishwa mu gukora ibishushanyo by'ubugeni. Abakora aka kazi k'ubugeni, bifashisha imigongo, mu gutaka ndetse no kudekora ahantu runaka.

Abagore ndetse n'abakobwa mu myambaro ya gakondo igaragaza umuco nyarwanda, barimo barabyina bishimye cyane, bakoma mu mashyi abandi baririmba ndetse banaseka cyane bateze amaboko, bigaragara ko bishimye rwose nta kibazo.

Imbyino gakondo ni zimwe mu mbyino zarangaga Abanyarwanda ba kera ndetse na nubu ngubu, izi mbyino zirashimisha yaba ku bazireba ndetse no ku bazibyina muri rusange.

Inka z'inyambo abatazizi ni amatungo agira amahembe maremare yigonze. Ubworozi bw'inyambo busaba kubwitaho kubusasira, kubugaburira kuzishakira umuti igihe zarwaye, ndetse n'ibindi bizirindira ubuzima.

Igitsina gore ndetse n'igitsina gabo ni bamwe mu babyina imbyino za kinyarwanda zizwi mu muco gakondo n'ubwo na n'ubu ngubu zikiriho.

Ubworozi bw'inka zitwa inyambo ni ubworozi bwiza cyane. Aya matungo atanga umukamo ndetse n'atanga inyama aba agomba kwitabwaho, akavuzwa, akagaburirwa n'ibindi bitandukanye.

Imbyino gakondo ziri muri bimwe mu biranga umuco nyarwanda ntabwo bikorwa n'igitsina gabo gusa ahubwo n'igitsina gore kiri mu bikora imbyino gakondo nyarwanda.

Inzogera cyangwa mayomba, ni bimwe mu bikoresho byambarwaga n'ababyinnyi babyinaga imbyino za gakondo. Ibi byatumaga imbyino zabo zikundwa kandi zikaryohera n'amatwi.

Imbyino gakondo ni zimwe mu mbyino zikorwa n'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Ibi bishimisha aba bareba, aba bumva ndetse na ba mukerarugendo bakaza kwihera ijisho.

Inkangara ni kimwe mu gikoresho cyakoreshwaga mu bukwe bwa kera; ndetse na nubu hari aho kigikoreshwa iki gikoresho cyatwarwagamo amata, ibitoki, imyaka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imwe mu mico gakondo harimo kubyina. Abari ndetse n'abategarugori ni bamwe mu bashoboye imbyino za kinyarwanda, zishimisha abantu, abatoya, abakuru ndetse abantu bose muri rusange bishimira izi mbyino.

Abakozi b'ikigo gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ni bamwe mu bakoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abaturage babone umuriro. Ibingibi bibafasha kubona ibibatunga bya buri munsi, ndetse n'amafaranga yo gukemura ibibazo byabo byo mu buzima busanzwe.

Abakora imirimo itandukanye, harimo gusudira, bashima igihugu cyabagejejeho umuriro, abaturage bavuga ko umuriro w'amashanyarazi ari kimwe mu bituma biteza imbere, kuko babikoresha mu mirimo itandukanye nko gusudira, kubikoresha mu byuma bisya ndetse n'ibindi.

Abakora umurimo wo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi baba basabwa kwitondera iyi miriro mu gihe bari gukwirakwiza insinga zitwara muririro. Abaturage basabwa kwita kuri aya mashanyarazi kuko ari bifitiye akamaro cyane cyane.

Bimwe mu byuma bitanga umuriro tuba dusabwa kubyitondera. Impamvu yabyo ni ukugira ngo twirinde impanuka ndetse n'imfu za hato na hato, cyane cyane ku bana, ababyeyi babasaba kubabuza gukozaho ibintu by'ibyuma.

Ahari ibikoresho bikoreshwa mu gutanga ingufu z'umuriro, cyangwa se abandi bita amashanyarazi elekitirisite, hari amapironi hari, amamashini atanga umuriro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umukozi w'ikigo k'igihugu gishinzwe ingufu ari gukora umurimo aho abaturage bari batanze ikibazo y'uko umuriro waje kugiramo ikibazo, uyu mukozi ari kubikora abikoranye ubwenge kandi n'ubuhanga nk'uko yabyize.

Abakozi b'ibigo bishinzwe gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi, ni bamwe mu bakora akazi keza cyane. Bagomba kuba bafite ibikoresho byo kwirinda mbere yo kurira ibiti bikwirakwiza umuriro.

Amapironi akwirakwiza umuriro n'amwe mu yambukiranya imisozi, agaca mu bishanga bihinze mo imyaka itandukanye nk'imiceri ndetse abaturage bavuga ko aya mapiloni batayegera kuko bishobora kubaviramo urupfu.

Abakozi b'ibigo bisakaza umuriro w'amashanyarazi, baba basabwa kwitonda mu gihe bari gutanga umuriro, ibi bikorwa mu buryo bwo kwirinda impanuka za hato na hato.

Ibikoresho bitanga ingufu z'umuriro, tuba dusabwa kubyitaho kuko ni ingirakamaro kuri twebwe. Bituma tubona umuriro tukaba ahabona, amatara ku muhanda, ndetse tukanigira ahabona, tukarira ahabona, n'ibindi bitandukanye tukabikorera ahabona, tukabona muri za telefone ndetse na za mudasobwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga ingufu zituruka ku mashanyarazi ikintu cyitayeho cyane cyane ni ugukwirakwiza umuriro mu baturage, abaturage nabo bishimira ubufatanye bafitanye n'icyo kigo.

Abakozi b'ikigo gishinzwe ingufu REG, bari gutanga umuriro ku muturage aho bari kumwesitarira amashanyarazi kugira ngo ajye acana nk'abandi kandi bigaragaza ko n'igitsina gore, kitahejwe inyuma mu mirimo yose bigaragaza ko abagore bashoboye.

Amapironi ni imwe mu miyoboro y'amashanyarazi, abayikoramo badushishikariza kwirinda kuyegera kuko dushobora kuhahurira n'ibibazo harimo no gupfa.

Imiyoboro y'amashanyarazi yambuka iva ku misozi ica mu bishanga ndetse n'aho iteye hose ni bimwe mu bintu abaturage bagomba kwirinda kuko iyo uyegereye ushobora kuhapfira.

Sosiyete ishinzwe gutanga ingufu z'amashanyarazi, isaba abaturage bose kwirinda kujya mu cyanya cyazo, kuko bashobora kuhahurira n'impanuka zitandukanye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga ingufu z'amashanyarazi, cyohereje umukozi wacyo kujya kureba ikibazo cyabayeho cy'umuriro, ni nyuma yuko abaturage batanze ikibazo yuko umuriro wabo utagikora.

Abakozi ba bimwe mu bigo bitanga amashanyarazi, ni bamwe mu bafatiye runini igihugu ndetse n'abaturage. Bashyiraho uburyo bwo kwirinda impanuka ndetse bakanaburira abaturage kutegera ibi byuma.

Abashinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, bubaka iminara kandi bagashyiraho n'amatangazo aburira abaturage ko uramutse wegereye ayo mapiloni cyangwa amapoto ushobora kuhasiga ubuzima.

Abakozi b'ikigo gikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ni bamwe mu bakora akazi katoroshye cyane, baba bagomba kwitondera ndetse no kwihanganira akazi bakora kuko bisaba gushishoza mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abaturage muri rusange.

Abakozi b'ibigo bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ndetse na minisiteri yabyo, basaba abaturage kwirinda kwegera ahantu hari ibyuma mu rwego rwo kwirinda ipfu ndetse n'izindi mpanuka zitateganyijwe.

Ikigo k'igihugu gishinzwe gukwirakwiza no gutanga umuriro w'amashanyarazi, gikangurira abaturage kugura ibindi bikoresho bibika umuriro bizwi ku izina rya generata mu ndimi z'amahanga.

Ikwirakwizwa ry'umuriro w'amashanyarazi, ni kimwe mu kintu abaturage bishimira, bavuga yuko umuriro w'amashanyarazi ubafasha byinshi, harimo ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Cash power cyangwa se akabaramuriro, ni bimwe mu bikoresho bimanikwa kuri buri nzu y'umuturage wahawe umuriro w'amashanyarazi. Ibi bifasha umuturage kwigurira umuriro ndetse akamenya n'uko umuriro we ukoreshwa.

Utumashini tubara umuriro cyangwa se kashi pawa mu ndimi z'amahanga. Ni zimwe mu mashini zakemuye ibibazo bitandukanye by'abaturage, harimo kumenya uko bakoresha umuriro ndetse no kwigurira umuriro ubwabo.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ya gira ubuzima mu bigo nderabuzima byinshi, iyi gahunda ishishikariza abaturage kugira isuku bakaraba amazi meza kandi n'isabune bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Umumotari cyangwa se utwara abagenzi kuri moto ari kumwe n'abantu babubatsi bari kubaka ikiraro bigaragara ko cyari cyarasenyutse kugira ngo abagenzi bage bagenda nta nkomyi.

Inyubako za leta zikorerwamo n'amakoperative ni zimwe mu nyubako ziba zisabwa kubungwabunga, abakorana na koperative basaba kwitwararika kuri izi nyubako kugira ngo batazangiza.

Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare ni imwe mu nyubako ya Leta ikorerwamo akazi k'ubucamanza, nk'abayobozi bashishikariza abaturage kujya bagirira isuku inyubako nk'izi ngizi ndetse bakanazirinda kuba zasenyuka.

Inyubako ya leta cyangwa se abandi bashobora kwita ikusanyirizo ry'amata ririho ibyansi cyangwa se abandi bita ibicuba batwaramo amata abazwi ku izina ry'abagemu.

Bimwe mu biraro byubatswe na Leta nyuma y'ibiza bifasha abaturage gukora ingendo zabo zambukiranya uturere bitabagoye. Abaturage nabo basabwa kurinda no kubungabunga bino bikorwa remezo kuko aribo bifitiye akamaro cyane cyane.

Minisiteri y'ubuzima ndetse n'ibigo nderabuzima byashyizeho gahunda ya gira ubuzima, iyi gahunda ikangurira abaturage kugira isuku bakaraba amazi meza kandi n'isabune.

Ingoro y'ubutabera urwego rw'ibanze rwa Nyagatare iherereye mu ntara y'Iburasirazuba, ni imwe mu nyubako ya leta, abaturage basabwa kwita kuri izo nyubako kugira ngo zitangirika.

Inyubako zitandukanye za leta, ni zimwe mu ziba zigomba kwitabwaho kandi zikagirirwa isuku kuko ziba zifite umumaro utandukanye, yaba ku baturage ndetse no kuri leta.

Inyubako za Leta tuba tugomba kuzitaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ahabera inama tugomba kuhitaho ndetse n'ibindi bikoresho bya Leta bigomba gusigasirwa bikanitabwaho.

Zimwe mu nyubako za Leta ziba zigomba kwitabwaho ndetse zigacungirwa umutekano kugira ngo zitangirika, Leta kandi abaturage bayisaba kujya ibegereza ibikorwaremezo hafi nk'amavuriro, amashuri ndetse n'ibindi.

VUP nk'imwe muri gahunda za Leta, yubaka imihanda ndetse igasana n'iyangiritse, ibi bifasha abaturage cyane cyane abakoresha ibinyabiziga bitandukanye, byaba ibitwara abantu ndetse n'ibintu mu ngendo zabo.

Ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro, ni zimwe mu nyubako zigomba kwitonderwa mu gihe zubakwa. Zikubakwa ahantu hadahashobora kugerwa n'ibiza nk'isuri cyangwa se n'ibindi byakwangiza izi nyubako.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza ikerekezo. Ikerekezo kijya Kayonza ikindi kijya Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Ku muhanda ujya Nyagatare undi ujya Kayonza.

Abaturage bari ku biro by'umurenge wa Katabagemu bategereje serivisi, abandi bamwe mu bari bategerezanyije bagiye kwakirwa, babiri mu basigaye nibo batarahabwa serivise nabo bari buzihabwe mu kanya gatoya kari buze.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi mu kubaka ibigo ndetse n'ibyumba byinshi by'amashuri, yaba amashuri y'inshuke, amashuri abanza, amashuri makuru ndetse na za kaminuza.

Mu Karere ka Nyagatare, Umurenge wa Ryabega, hagaragara inyubako ya leta yiswe Urugo mbonezamikurire rwa Ryabega. Iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa by'abana nko kugaburirwa, kwigisha ababyeyi gutegura indyo yuzuye ndetse n'ibindi.

Ikibuga cy'umupira kiri mu bintu abantu bagomba gusigasira bakakirindira umutekano ndetse bakirinda no kugihungabanya, icyiza cyacyo gikurura ba mukerarugendo kandi kifashishwa mu myidagaduro igiye itandukanye.

Inyubako za Leta zigomba kwitabwaho kugira ngo hirindwe ibyazangiza, zigomba kuba zubatse ahantu hadashobora gufatwa n'ibiza, abaturage bose basabwa kwita kuri izi nyubako kuko serivisi zitangirwamo zihabwa abaturage.

Ibiro by'Utugari ndetse n'ibiro by'Imirenge ni zimwe mu nyubako za Leta, abakozi bakorera muri iyo Mirenge ndetse n'Utugari baba basabwa gutanga serivisi nziza ku baturage babagana.

Ibitaro ndetse n'izindi nyubako za leta, ni bimwe mu bigomba gusigasirwa. Ibi bifite akamaro kanini ku bantu ndetse n'igihugu muri rusange kuko ubuvuzi, uburezi, ni zimwe mu nyubako butangirwamo.

Uruganda rutegura amata y'ifu ndetse n'amata asukika, rwitwa Inyange ruherereye mu mujyi wa Kigali. rutunganya ibituruka ku matungo cyane cyane amata ndetse n'amavuta y'inka.

Inyubako za leta ni zimwe mu zigomba kwitabwaho mu rwego rwo kwirinda no kuzisigasira, abaturage basabwa kuzitaho nk'iziba zubatse mu bishanga zirinda umuvuduko munini w'amazi zo ni akarusho mu kwitabwaho.

Ubutabera bujyana n'uburenganzira bwa muntu, aha ngaha abapolisi, abaturage bose bafatanyije batanga ubutabera.

Ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu ni kimwe mu bintu bigomba kwitabwaho kandi bikanubahirizwa. Umuyobozi aba agomba gutanga inama asobanurira abaturage, ubutabera icyo ari cyo ndetse n'uburenganzira bwa muntu kugira ngo buri wese amenye uburenganzira bwe ndetse amenye n'icyamurenganura mu gihe ahuye n'ikibazo.

Ku itariki ya karindwi, mata, umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu u Rwanda ruzaba rwibuka abazize jenoside ku nshuro ya mirongo itatu na rimwe, leta y'u Rwanda ikomeje gukurikirana abagize uruhare muri jenoside ndetse itanga n'ubutabera.

Abayobozi batandukanye bo mu Karere ka Nyagatare, mu Ntara y'Iburasirazuba, abasirikare, abapolisi, bifatanyirije hamwe mu nama yo kurwanya ihohoterwa, rishingiye ku gitsina.

Umuyobozi mukuru wa RIB, yasuye abaturage mu nteko rusange y'Akagari, abasobanurira umutekano, ababwira kujya batanga amakuru ku gihe ndetse n'aho bumvise amakimbirane, bakabimenyesha abayobozi byihuse.

Ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu, ni kimwe mu bigomba kubahirizwa, leta ishishikariza abantu bose, kubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi yiyemeje kujya itanga ubutabera, ku bahungabanyije uburenganzira bwa muntu.

Ibirori byahuje abaturuka ku mugabane wa Afurika ndetse n'umugabane'Iburayi. Barabyishimiye cyane, birarimbanyije kandi birabashimishije bombi, urabona ko batunguwe rwose bashi...

Umukuru wa Ribu ndetse n'urwego rwa gisirikare, bari mu nteko y'abaturage n'abayobozi, baganira ku mutekano. Umutekano ni kimwe mu nkingi y'iterambere iranga igihugu.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye, bateraniye mu nama yabahuje, bungurana ibitekerezo ndetse bafata n'imyanzuro yo kujya batanga ubutabera n'uburenganzira bwa muntu bukubahirizwa.

Polisi y'u Rwanda n'abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage, biyemeje gutanga ubutabera ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Aha umuntu ahabwa ubutabera igihe yahohotewe, cyangwa se yakorewe irindi kosa runaka.

Icyapa kigaragaza ahantu kegeranye n'ahaparitse imodoka, hari indabyo, amapoto ndetse n'inyubako ndende y'ubucuruzi.

Icyapa kigaragaza ko hari umuhanda wizenguruka, kiri ku gipangu cy'ikigo gishinzwe ingufu Rege haciyeho umukobwa, agiye kugera aho iyo mihanda ihurira.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota, iri mu muhanda wa kaburimbo, igeze ku kigo cy'amashuri, gikikijwe n'indabyo cyangwa se ubusitani, umwana w'umukobwa arimo arayitegereza, inyuma yaho harimo haraturuka umumotari cyangwag se utwara moto, acanye amatara.

Abatwara ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa ndetse n'ibindi basabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse no gupfa ku bantu bitateganyijwe.

Zimwe mu modoka zitwara abagenzi rusange zigomba kuba zujuje ibintu byose nk'uko Leta ibisaba, harimo kugira isuku ndetse n'ibindi bitandukanye.

Zimwe mu modoka rusange zitwara abagenzi, hari igihe ziba zishaje. Izindi muri zo, ugasanga nta suku zirimo.

Polisi ya Nyagatare ni imwe muri olisi zishimwa mu Rwanda kubera ubufatanye n'abaturage baranduye ibyaha byinshi, harimo ibyo gucuruza inzoga zitemewe, kujya kuri polisi ya Nyagatare rero metero magana atanu uvuye kuri iki cyapa.

Abaturage batuye mu bice by'icyaro nabo bishimira ko leta yabagejejeho umuhanda mwiza cyane. Abandi bakishimira ko yagiye ishyiraho ibyapa, bibayobora bakamenya aho bari kwerekeza, bitabagoye.

Gushyira ibinyabiziga mu bwishingizi ni kimwe mu byo Leta isaba abakora akazi ko gutwara abantu muri rusange, ibi bibafasha kubona ingoboka mu gihe habayeho ibibazo nk'impanuka.

Abakora akazi ko gutwara moto bashimira leta kuba yarashyize amatara ku muhanda ndetse no kuvugurura imihanda igiye itandukanye bakemeza ko ibi byabarinze impanuka ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye harimo nko kwamburwa.

Mu masaha y'ijoro mumuhanda wa kaburimbo amatara araka icyapa kigaragaza ahantu runaka kiragaragara, ubusitani kumuhanda ndetse n'ibiti abagenzi baratambuka nta kibazo kuko umuhanda uracaniwe hagaragara neza.

Bamwe mu batwara abantu mu buryo bwa rusange ari ababatwara mu modoka ndetse no ku mapikipiki, bishimira ko Leta yagejeje imihanda ahantu hatandukanye ndetse no mu byaro itahibagiwe.

Abakora akazi ko gutwara abantu rusange, ku binyabiziga bya moto, ni bamwe bishimira ko no mu bice by'icyaro, leta y'u Rwanda yashyize imihanda ya kaburimbo. Ibi bibafasha kwirinda impanuka ndetse no kurinda kwangirika kw'ibinyabiziga byabo.

Bamwe mu bakora ingendo mu Ntara y'Iburasirazuba, mu Karere ka Kyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Barija, Umudugudu wa Kinihira, bavuga ko bishimira uburyo umuhanda ukoze. Ibyapa birangira abantu ndetse n'ibindi byo ku muhanda, biburira n'ibindi bitandukanye

Inama n'abaturage abayobozi bo mu nzego zitandukanye, harimo urwego rwa Polisi, urwego rw'ingabo, abayobozi b'Utugari ndetse n'Imirenge, ni bamwe mu bagejeje ku baturage amasomo ndetse n'inyigisho z'uko bagomba kwicungira umutekano.

Ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'abaturage mu gikorwa cy'ubuhinzi, ibi ngibi ni mu rwego rwo kwereka abaturage ko umutekano uhari kandi badakwiye gutinya ingabo z'igihugu.

Inama n'abaturage abayobozi ba FPR baraganiriza abaturage ku by' umutekano, babashishikariza gutanga amakuru ku gihe ndetse no kwirinda amakimbirane hagati yabo.

Ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi y'u Rwanda ni bamwe mu bayobozi begera abaturage mu bikorwa bitandukanye harimo umuganda ,kubakira abatishoboye ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye mu rwego rwo kongera umutekano ndetse no gukorana n'abaturage.

Gerayo amahoro nk'imwe muri gahunda leta yashyizeho, iburira abatwara ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha imihanda kujya batwara batanyweye, kandi bakubahiriza amategeko y'umuhanda.

Umuyobozi ushinzwe umutekano arakangurira abaturage bose kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe abonye cyangwa se hari uwumvishe amakimbirane ari hagati y'abaturage.

Inama imaze kurangira abaturage ndetse n'abayobozi barishima cyane barabyina abandi baraseka bigaragara ko iyi inama rwose yari imeze neza aha ngaha nta kibazo na kimwe kigeze kibonekamo cyatuma ibyishimo bibura.

Umuganda rusange ni kimwe mu bifitiye Igihugu akamaro aho abaturage, abayobozi bo mu nzego zitandukanye harimo Abapolisi, Abasirikare, DASSO bifatanya bakubakira abaturage batishoboye.

Polisi y'u Rwanda n'abaturage mu nama y'umutekano, Polisi irashishikariza abaturage kujya batangira amakuru ku gihe ndetse n'ahabaye amakimbirane bakihutira kubimenyesha abayobozi.

Umusore wikoreye ibuye, inyuma ye hari umugezi, isura y'uwo musore igaragara ko akazi ke arimo araragakora neza cyane rwose.

Siporo ni ubuzima. Nyuma yo gukora siporo rusange, abayobozi ba siporo ndetse n'abaturage, bahuriye hamwe baraganira, umuyobozi mukuru abaganiriza ibyiza bya siporo ndetse anabakundisha siporo muri rusange.

Uko amakipe yatsindanye mu marushanwa y'Umurenge Kagame kapu. Karangazi yatsinze Mukama, Musheri itsinda Kiyombe, Katabagemu itsindwa na Rukomo, Mimuri itsinda Rwempasha, Nyagatare itsinda Gatunda, Rwimiyaga itsinda Karama, Tabagwe itsinda Matimba.

Ikipe y'umupira y'abagabo mbere y'uko ijya gutangira umukino ibanza kufata ifoto, kimwe n'andi makipe yose n'iy'abagore ibigenza uko.

Ibibuga bikoze neza bifasha abakinnyi kwirinda gukomereka bya hato na hato kandi abaturage ndetse n'abakoresha ibibuga baba basabwa kubibungabunga nk'uko ari ibikorwa remezo.

Umusifuzi agaragaza ko nimero enye avuye mu kibuga, hagiye kwinjiramo nimero umunani. Umusifuzi arabwira umukinnyi ati gira ubanguke winjire mu kibuga ari nako umukinnyi nawe ugiye gusohoka mu kibuga yitegura asohoka.

Nyuma yo gukora siporo ngororamubiri, barapimwa umuvuduko w'amaraso ngo barebe ko ahagaze, abaturage bose barasabwa kujya ku murongo umwe umwe akaba ariwe bapima.

Abakinnyi bambara imyenda iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara bambara neza kurusha andi makipe yose, abakunda aya mabara baba bakunda n'aya makipe.

Abari n'abategarugori ni bamwe mu bantu, basigaye bitabira siporo cyane cyane muri iyi minsi, abagabo ndetse n'abasore nabo barakangurirwa gukora siporo, bakanatoza bashiki babo.

Siporo ni ubuzima .Bamwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru mbere yuko batera umupira, babanza kwitegereza bagenzi babo niba bari mu ruhande rwiza rwo kuba batsinda ibitego. Ibi bituma bagera ku ntsinzi.

Ikibuga cy'umupira nacyo ni kimwe mu bikorwa remezo, kiba gisabwa kwitabwaho ndetse kikanatuzwa ahantu habugenewe. Ikibuga cy'umupira ntikigomba kubangamira abaturage, ndetse n'abandi bantu baturanye nacyo.

Umupira w'amaguru ni imwe mu mikino igira amategeko ayigenga. Iyi mikino igira abayobozi batandukanye, aribo bita abasifuzi. Abasifuzi n'abo hari abasifuzi bo ku ruhande, abasifuzi bo hagati, ndetse n'abandi batandukanye bayobora umukino.

Mu bibuga by'imipira y'amaguru bitandukanye kuri iki gihe hakunda kugaragara ho abari n'abategarugori na bo bahakinira umupira ibi bigaragaza ko mupira w'amaguru utagenewe igitsina kimwe ahubwo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bose bashobora gukina uyu mukino.

Siporo rusange imaze kurangira abagabo ndetse n'abasaza, abagore n'urubyiruko bateraniye hamwe barimo baganira ubundi barataha banezerewe.

Siporo ni kimwe mu bishimisha abantu batandukanye, uba usanga abantu benshi abayobozi, abaturage, polisi ndetse n'abasirikare bari mu baje kwihera ijisho uyu mukino w'amaguru.

Ibibuga ni bimwe mu byifashishwa mu mikino y'amaguru. Abatoza ndetse n'abasifuzi ni bamwe baba bari mu kibuga amakipe ahanganye aba ari abiri.

Amarushanwa Umurenge Kagame Cup ni amwe mu marushanwa yakinwe uyu mwaka ariko afite insanganyamatsiko yo gushishikariza abayobozi gahunda y'umuturage ku isonga.

Ni nyuma y'umukino abakinnyi ndetse n'umutoza bishimiye insinzi, ibibuga ni bimwe mu bikorwa remezo biba bigomba kwitabwaho kuko bifitiye abaturage akamaro ndetse n'igihugu muri rusange.

Siporo rusange ni kimwe mu biranga ubumwe, ifasha abayikora kugira ubuzima bwiza ndetse bakabaho neza, ubucuti bukiyongera n'ibindi bitandukanye hagati y'abaturage.

Mu gihe Ikipe ya Nyagatare y'abagabo yakinaga umupira, umukino wasifuwe n'abagore ndetse n'abagabo, igitsina gore gikomeje kwiteza imbere ndetse no kwitinyuka mu gukora imirimo yakekwaga ko ari iy'abagabo gusa.

Ibibuga byinshi byo mu cyaro ubu usanga bidakoze neza. Ababikiniramo bakinubira ibibazo bashobora guhuriramo na byo, harimo nko gukomereka ndetse n'ibindi. Leta ikomeje umugambi mwiza cyane wo kubivugurura ndetse no gusana ibyangiritse.

Abana bakiri batoya ni bamwe mu bagomba kwitabwaho ndetse bagakundishwa siporo zitandukanye, bitewe n'iyo umwana akunze umubyeyi akamushyigikira ndetse akanamufasha.

Siporo nka kimwe mu gikorwa kitabirwa n'abantu bagiye batandukanye baba bayobozi abaturage, igomba gukorwa ndetse kuko ari kimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu.

Umukino w'amaguru ni umwe mu mikino ikunzwe cyane ku isi ndetse no mu Rwanda. Usanga abaturage baturutse imihanda yose baje kwirebera uwo mukino.

Abari n'abategarugori ni bamwe mu basigaye bakora siporo cyane ngororamubiri, abari bose barakangurirwa gukora siporo kuko na byo bibareba kandi siporo ari ubuzima.

Siporo ni ubuzima, ku munsi wa siporo rusange abaturage ndetse biganjemo urubyiruko bahuriye hamwe bakora siporo barishima ndetse baranasabana.

Siporo rusange ni kimwe mu bihuza abantu urubyiruko, abakuze ndetse ab'ingeri zose, iki gikorwa gikorwa n'abaturage bishimye kandi banezerewe.

Ibibuga by'imyidagaduro nka kimwe mu bikorwa remezo, leta yabishyizemo imbaraga aho yatangiye kugenda ivugurura ibibuga by'imyidagaduro bigiye bitandukanye.

Gukinira mu muhanda kw'abana bishobora guteza impanuka. Ababyeyi bashishikarijwe kuburira abana babo bakababuza gukinira mu muhanda kuko harimo ingaruka nyinshi zishobora kubageraho nko kugongwa n'ibinyabiziga.

Ibikombe, imidari y'ishimwe ndetse n'ibindi bitandukanye, ni bimwe mu byahawe abakinnyi bitwaye neza, turashishikarizwa gukora siporo kuko ari ubuzima.

Umukino w'umupira w'amaguru ni imwe mu myidagaduro ishimisha, Leta ikwiye gushyira imbaraga mu kubaka ibibuga ndetse no kuzamura impano z'abakiri batoya ku buryo ejo hazaza bazavamo abakinnyi bakomeye kandi beza.

Burya ibibuga by'umupira na byo biri mu bikorwaremezo tugomba kwitaho kandi tukirinda kubyangiza, abakina umupira w'amaguru ni bamwe bagomba gufata iya mbere mu gutunganya ndetse no gukora ibibuga bakiniraho.

Abari n'abategarugori ni bamwe mu baboneka mu bikorwa bitandukanye nka siporo y'amaguru, gusifura imikino itandukanye ndetse n'ibindi. Mu bibuga by'imipira ni ho dusanga abari ndetse n'abategarugori na bo bakina umupira kimwe n'abagabo.

Abakora ingendo zitandukanye ku magare basabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda mu buryo bwo kwirinda impanuka ndetse no kubangama ku bandi batwara ibindi binyabiziga bitandukanye, harimo moto ndetse n'imodoka.

Imihanda yo mu duce tw'icyaro nayo muri imwe mu mihanda yatoranyijwe, igashyirwamo kaburimbo. Abaturage bafite ibinyabiziga ndetse n'abagenda n'amaguru, ni ibintu bishimiye cyane.

Ukora umurimo wo gutwara abagenzi ku ipikipiki ari mu muhanda, haruguru y'umuhanda hagaragara inzu ifite inzugi z'ubururu, ibiti bikikije umuhanda, imbere hari indabyo zigaragara ziteye ku muhanda.

Umuhanda ibitaro nk'ibikorwa remezo ni kimwe mu byegerejwe abaturage. Mu cyaro ndetse no mu migi, uhasanga amavuriro yita ku barwayi kandi kuhagera bitagoye buri muturage wese.

Abaturage bishimira ko farumasi zibaha serivisi zimeze nk'izo kwa muganga, aho bakorana n'ubwishingizi bugiye gutandukanye. Abanyeshuri ba za kaminuza nabo bishimira ko farumasi zikorana n'ubwishingizi bahabwa bwa misi UR.

Imwe mu mihanda yubatswe mu duce tw'ibyaro, mu dusantere tumwe na tumwe, uba usanga iyo mihanda itamara kabiri ngo ihite yangirika. Leta isaba abaturage kwitwararika kuri iyo mihanda, ndetse bakayifata neza kuko ari bo ifitiye akamaro.

Abakora ubwikorezi ku binyabiziga nk'amagare, basabwa kutarangara mu muhanda cyangwa ngo bagende bavugira kuri telefone, kuko bishobora guteza impanuka, bishobora kuvamo n'urupfu.

Abaturage batuye mu bice by'icyaro, bishimira ko nabo bagejejweho umuhanda, ibibafasha gukora ingendo zabo bitabagoye kandi bikabihutira.

Ubucuruzi bw'akajagari buri muri bimwe Leta yamaganira kure. Abacuruza ibyo kurya bitandukanye mu ndobo na bo bari muri abo ngabo Leta ikoreshe uko ishoboye kose ngo ikumire.

Utubari ndetse n'andi maduka acuruza ibinyobwa nka za pirimusi bikunda kuba hafi y'umuhanda kuko ariho horoshye kugerwa n'abakiriya.

Ahantu hari imiturire myiza hanyuzwa imihanda ndetse hakubakwa n'inzu zigiye zitandukanye, hashobora kubakwa inzu zigeretse ndetse n'izindi nzu nini ariko babanje kureba ko zitagiye mu muhanda.

Imwe mu mihanda yubatswe vuba cyane cyane ku tuyira abanyamaguru banyuraho yatangiye kwangirika, abaturage bamwe batekereza ko iyi mihanda kuba yarangiritse yakozwe ititaweho cyane.

Imihanda yo mu bice by'ibyaro imyinshi ntabwo iragezwamo kaburimbo, abayobozi ndetse na Leta y'u Rwanda ikangurira abaturage gukora imiganda bikorera imihanda bakirinda no kuyangiza.

Mu nce z'icyaro ahatuwe n'abantu benshi usanga bahakorera ibintu bitandukanye ubworozi, ubuhinzi, ubworozi bugiye butandukanye harimo ubw'amafi, ubw'inka ndetse n'izindi.

Rimwe mu ikosa rikomeye rikorwa n'abatwara abagenzi kuri moto ni ugutwara umugenzi atambaye kasike ndetse n'umutwaye, ibi bishobora guteza impanuka umugenzi ndetse n'utwaye ikinyabiziga bagakomereka bikomeye cyane.

Imihanda myinshi yo mu byaro ni imwe mu igaragaramo imyanda, Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gushaka abakozi bakora amasuku kuri iyi mihanda yo mu cyaro nk'uko no mu mijyi bikorwa.

Imihanda y'amabuye ni imwe mu yubatswe na Leta mu rwego rwo korohereza abatwara ibinyabiziga ndetse n'abagenda n'amaguru, ibi bifasha abaturage ndetse n'abo batwara ibiziga mu gukora ubucuruzi bwabo mu buryo buboroheye.

Abamotari cyangwa abatwara ibinyabiziga nka moto, imodoka, ni bamwe mu bishimira ko Leta y'u Rwanda yagejeje imihanda ya kaburimbo no mu nshe z'icyaro, ibi bikabafasha kwirinda impanuka no kwangirika kw'ibinyabiziga byabo.

Imihanda yo mu byaro itarakorwa neza ,ishobora guteza ibibazo bitandukanye harimo n'impanuka. Leta y'u rwanda yashyize imbaraga mu gukora imihanda, ndetse n'aho bitaragera iyi serivisi yo gukora imihanda ikaba izahagera vuba cyane.

Bamwe mu batwara ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ndetse n'amagare, ibyo bishimira harimo imihanda y'amabuye yagiye yubakwa mu bice by'ibyaro mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse no kwangirika kw'ibinyabiziga.